Abantu benshi bari hamwe bamwe bicaye abandi bahagaze bamwe bafatanye abandi badafatanye, bambaye imyenda yiganjemo imipira y'imyeru abandi bafite imisatsi, abandi bafite mikeya hari imbere yabo hari itsinda riri gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu nzu mberabyombi icyumba ahabera inama, hari umugabo ufite mikoro ayifatishije akaboko k'iburyo, iruhande rwe hicaye abapolisi imbere yabo hari amacupa y'amazi, kuri ekara hari ahanditse imihigo aribyo arimo abamurikiye.

Umugabo uri mu ishusho y'abahigi apfukamishije akaguru kamwe k'iburyo ak'ibumoso gashinze, yafoye ashaka kurasa, kandi mu mugongo ahetsemo indi myambi myinshi.

Intore, zihamiriza, zicaye, inyuma, izindi ziri imbere, ziteruye, inanga, zigiye kuyishyira, ku ngata, ishinzemo imiheha, kandi zapfukamye.

Abantu benshi bavuye mu kazi. Bavuye mu gikorwa cy'umuganda. Bamwe bambaye bote kandi bambaye inkweto zifunguye, bamwe batwaye amasuka, abandi imihoro kandi bafite ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora igikorwa rusange.

Inzu isakaje amabati atukura ndende hejuru yayo hariho pano ikoresha imirasire yizuba iteretseho ireba hejuru mu kirere.

Ikiraro cyo mu kirere cyubatse neza cyambukiranya umusozi uri cyo hejuru hariyo abantu babiri umwe aricaye undi arahagaze munsi yacyo harimo ibyatsi.

Inyubako zubatse neza nk'amashuri rigeretse kandi inyuma yaho ari ipironi rirerire imbere yaho hari itara rirerire rimurika nijoro, hagati muri jaride harimo ibiti biteye ku murongo.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo, umwe yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu, inyuma ye hari uwambaye ingofero itukura, undi yambaye ikote, yambaye amataratara bafashe uruzitiro.

Umuhanda ufite ikiraro kiriho uturindabasazi cyangwa se utazwi nka garidefo uzengurutswe n'ishyamba umumotari arimo agenda ari kuri moto yambaye kasike.

Abagabo batanu bahagaze, inyuma yabo hari umugore barimo n'umusirikare bafite impapuro mu ntoki n'utubuje, undi afite ikibiriti yambaye n'amataratara harimo n'uwambaye ikote, inyuma yabo mu itende harimo abandi benshi ndetse n'imbere yabo hari abandi bahicaye.

Abantu benshi bicaye mu nyubako yubakishije amashitingi, cyangwa se amahema bicaye mu ntebe z'umweru, bamwe bambaye amakarita mu gatuza bicaye bareba imbere, kandi barimo abambaye imipira y'umweru, abenshi abandi bambaye imyenda isa ukwayo.

Abakecuru, abakobwa n'abana n'abasore bicaye hamwe begeranye ahantu mu byatsi ariko bikeya, barimo bareba imbere nk'abari guhabwa ikiganiro, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bakenyeye ibitenge bambaye n'imipira abandi bateze ibitambaro, abandi bambaye ingofero.

Imodoka nziza ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo nta ydi modoka ihari, imbere yayo ntayinindi iri kuhaturuka, hepfo yayo ahagana hepfo y'umuhanda hari inzu iri mu biti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amatara hafi yawo hari ibiti binini bikuru, hariho icyapa kigaragaza uburyo abagenzi bambuka umuhanda kiri mu ibara ritukura.

Urugo rwubakishije ibibati ruriho igishushanyo mbonera k'inyubako igiye kuzubakwa, inyubako ifite indabyo, isakaye, ifite kandi uburyo iyiye igeretse, inyuma yayo hari ibiti n'ikirere cy'ubururu.

Icyapa giteye ahantu ku muhanda wa kaburimbo, inyuma yacyo hari inyubako kandi hari n'ibiti by'umusebeyabikuze, noneho cyanditseho ko ari icy'aba PRESBYTERIENNE, kiriho n' ikimenyetso cy'umusaraba, hariho n'akambi kerekana ko ari muri metero ijana, kugirango ugere kuri urwo rusengero.

Abantu benshi bari gukora umuganda rusange, harimo abadasso umusirikare n'abapolisi n'umukorerabushake, kandi inyuma yaho hari n'abandi baturage basanzwe baje mu iki gikorwa hikurya yabo hari insina.

Abantu benshi higanjemo abagabo, ari ahantu barimo bakora umuganda, hameze nk'aho bari guhingira umuntu, inyuma yabo hari ibiti kandi bamwe bambaye bote, abandi bambaye ibirenge, bose bari gukoresha amasuka.

Umupolisi uhagaze ufashe mikoro akoresheje akaboko k'iburyo, yambaye n'ingofero y'akazi, inyuma ye hari abaturage benshi abandi bicaye mu itente barimo bamukurikira.

Abantu benshi bari mu mirimo umugabo umwe wambaye umupira ushushanyijeho umugore n'abana ateruye ibuye ariteruje akaboko kamwe k'iburyo inyuma ye hari umugore ushyize ingata ku mutwe ategereje ko bamukorera, imbere ye hari abandi bagabo n'undi mugore nawe uhagaze afashe ku wundi muntu.

Abantu benshi batandukanye, biganjemo abagabo bamwe bambaye umupira w'umuhondo, numugore wambaye umupira utukura ufite n'ibisuko kumutwe, hirya ye kaboko k'ibumoso, ni abandi bantu benshi nabo bahagaze.

Umugabo munini ubyibushye wambaye umupira n'ipantaro uhagaze imbere yinyubako, ufashe mikoro ifatishije amaboko yombi wambaye n'amataratara arimo areba kuru ruhande inyuma ye hari intebe.

Mu kibuga ahantu hari ibyatsi, n'ikindi kitarimo ibyatsi, harimo abakinnyi umwe ari ku kumupira, undi amuri inyuma ashaka kumwataka, imbere ye hari abandi babiri, hakurya yabo ni umwana w'umukobwa uri kugenda, inyuma yabo hari ibiti by'imisebeya.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru umukinnyi ahagaze imbere ya balo igeretse kuri penaliti, nawe yunamye yambaye ikabutura n'umupira n'amasogisi y'umuhondo n'inkweto ya godiye ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari abandi bakinnyi babiri.

Mu kibuga aho bakorera imyitozo ngororamubiri, harimo abakinnyi benshi bari kwiruka ku mupira, umwe yenda kuwugeraho bambaye imyenda yo mu kibuga itandukanye izwi nk'amajezi kandi hakurya y'ikibuga hari abantu bari gufana.

Abantu bicaye ahantu hameze nk'aho ari muri sitade aho barebera umupira w'amaguru bicaye ku ntebe z'ubururu higanjemo urubyiruko cyane cyane rw'abahungu kandi bamwe bagiye bambaye imipira y'umweru abandi bambaye itukura n'indi y'andi mabara.